Uyu ni umupolisi. Ashinzwe umutekano wo mu muhanda. Yahagaritse za moto n'imodoka ngo abantu babanze bambuke umuhanda hatagira ukora impanuka, narangiza arabwira ibyo binyabiziga na byo bitambuke.

Uyu nguyu ni umupolisi ,iriya ni imbwa bifashisha bari gushaka ahantu bateze ibisasu ,cyangwa hari ibiyobyabwenge.

Sitasiyo ya polisi tuhajyana abantu bakoze ibyaha byo kwiba, ni ibyo kwica, ni ibyo gusambanya abana bakabafunga, kugira ngo bahanirwe amakosa baba bakoze.

Abangaba ni abapolisi bari kumwe n'amatungo bita imbwa bifashisha mu kureba ahantu baba barashize ibisasu bituritswa, cyangwa bari kureba ahantu bashize ibiyobyabwenge, cyangwa abantu babifite.

Abangaba ni abantu bicaye bari mu nama y'umutekano, abangaba bambaye ibintu by'icyati ni abadaso kandi harimo n'abapolisi n'abandi bayobozi, bari kwiga ku buryo umutegano w'igihugu cyacu waba umeze neza.

Abasirikare ni bo bacunga umutekano wacu n'ubw'igihugu, kugira ngo udahungabanywa n'abagizi ba nabi n'ibyihebe cyangwa n'abanzi bacu, ni beza cyane kuko batuma tubaho mu mudendezo.

Ahaha ngaha ni kigo cy'amashuri, n'abaturage baje mu nama y'umutekano, bifashisha intebe z'abanyeshuri, bicaraho bari kwiga, abasirikare bari kubabwira, ibijyanye n'ukuntu babaho, bafite umutuzo.

Aba n'abasirikari bari gukora akarasisi muri sitade, hagiye kuberamo ibirori, ndetse n'amabendera y'igihugu cy'u rwanda, bari kugira ngo abajemo baryoherwe, barebe ako karasisi bari gukora.

Abangaba ni abaturage bicaye bagiye mu nama, uriya uhagaze w'umudamu ni umuyobozi wabo. Ari kubaha amabwiriza bagomba kujya bagenderaho, na bo buriya baramubaza ibibazo byose bibaza, na bo abahe ibisobanuro bihagije.

Aba ngaba ndi kubona ari abantu baje mu nama, ni abaturage baricaye hasi, uyu nguyu uhagaze ni umuyobozi wabo ari kubaremesha inama, ari kubaha amabwiriza n'ibindi byose bibareba.

Buri ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi haba igikorwa cyiza ingaruka ku muganda basukura imihanda, bagatera ibiti baca n'impiringoti zo gufata amazi, bubakira amazu n'ubwiherero abatishoboye. Igikorwa cyiza cyane gituma igihugu cyacu gitera imbere n'abaturage bakunga ubumwe.

Mu Rwanda ha mbere abasore bajyaga kwiga mu itorero naho abakobwa bakajya kwiga mu rubohero. Abasore bigaga gusimbuka, kumasha n'indi mikino njyarugamba itandukanye yabafashaga mu kwirinda abanzi cyangwa no mu buhingi bwabo.

Ibitoke habamo ibyo barya, hakabamo n'ibyo bengamo urwagwa, bakoresha umuvure n'ibyatsi bagakama babonamo umutobe bakawushyiramo ifu y'amasaka bakabitara, hakabonekamo urwagwa bakarunywa bakizihirwa, bakanarugurisha bakabonamo amafaranga.

Bimwe mu bikorwa by'imyidagaduro mu Rwanda, harimo imbyino gakondo ni nziza cyane kuko zituma abantu bishima, haba harimo abantu bakenyeye imikenyero myiza bari kubyina, abandi bari kuvuza ingoma gakondo batumirwa mu birori bitandukanye, bakishyurwa amafaranga, yo gukoresha imirimo yabo ya buri munsi.

Mu muco wacu wa kinyarwanda, agaseke gasobanuye byinshi, gafite akamaro kenshi cyane mu mbyino za gakondo, baragakoresha bari kubyina, bagakoresha bari gusura inshuti n'abavandimwe, cyangwa bari gutwerera abantu bakoresheje ubukwe n'ibirori bitandukanye, abatuboha na bo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Izi ni ingoma n'imirisho yazo, abantu bazivuza babita abakaraza, bazivuza iyo bari kubyina imbyino za kinyarwanda, cyangwa bakazijyana mu rusengero ahantu bagira ibyuma bindi akaba ari zo bavuza.

Aba ngaba ndi kubona ari abagabo bafite imiseke mini, bari kunywa urwagwa ruri mu ndemberi. Urwagwa barukora mu bitoke; barabitera bikaba imineke, maze bakabikama bikavamo umutobe, wa mutabe bagashiramo ifu y'amasaka bakabitara, biba byabaye urwagwa. Abagabo rero ni bo bari kunywa, ndi kubona harimo n'abagore.

Umugore wicaye ari kuboha ikirago cyo mu busuna n'imihwahura. Iki ngiki ni cyo banikaho amamera. Barayabetesha bagakoramo umusururu namba ikigage.

abana babakobwa beza bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda bambaye imikenyero imeze neza n'ibisabo bari kwifashisha bari kubyina i mbyino babyina ahantu habaye ibirori cyangwa hakorewe ubukwe.

Aba ngaba ni ababyinnyi babyina ibintu bya kinyarwanda ,baba bari mu ntore haba harimo n'ababyinnyi b'abagabo, aba ngaba babyina ahantu habaye ibirori bya kinyarwanda ,cyangwa ibindi birori bitandukanye mu Gihugu cy'u Rwanda, barabatumira bakaza bakabyina, cyangwa ahantu habaye ubukwe cyangwa bakajya kubyinira abageni.

Ubworozi bw'inka mu Rwanda bufite akamaro kanini. Abazorora babona ifumbire yo guhingisha, bakama n'amata bakayanywa iwabo mu ngo, bakanayagurisha bakabonamo amafaranga. Batanga n'akazi ku bashumba bo kuziragira no kuzitaho.

Zimwe mu myidagaduro ikorerwa mu Rwanda, harimo n'imbyino za gakondo. Habamo ababyinnyi babigize umwuga, bakorera amafaranga menshi cyane kubera icyo gikorwa. Imbyino za gakondo zibyinwa mu birori bitandukanye byo mu gihugu cyacu, no mu bukwe. Barabatumira, bakabyinira abageni, bakabaha amafaranga.

Uyu ni umudamu uri gusya. Ari gukoresha urusyo n'ingasire, ifu arasya arayishira kuri kiriya nkoko, irambitseho agakoma, kiriya kibo ni cyo kirimo amasaka yo ari gusya.

Imbyino gakondo ni zimwe mu myidagaduro myiza cyane zituma abantu bishima bakamererwa neza. Habaho n'abazibyina babigize umwuga babonamo amafaranga yo gukoresha ibikorwa byabo bya buri munsi.

Aba ni ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda ,za gakondo baba bafite n'akaraza kubavugiriza ingoma ,bari gukoresha imirishyo ,bakabyina neza cyane .Aba ngaba bakenerwa mu birori bya kinyarwanda ,cyangwa mu bukwe, bakaza bakabyinira abageni ,bakabaha amafaranga.

Aya ni amayugi, uyu mugabo uri kubyina arayambaye, babyinana imbyino za kinyarwanda, akagenda ari gusakuza mu njyana bari kubyinamo ukumva biryoheye amatwi.

Uyu nguyu ni umutiba cyangwa bawita umuzinga. Barawuhagika ahantu mu giti inzuki zikaza zikajyamo zigakora ubuki, bwamara kubamo bwinshi bakajya kubuhakura bakabujyana mu isoko, cyangwa bakanaburya.

Mu muco wa Kinyarwanda, inka yitwa Inyambo, yagiraga akamaro kanini cyane. Yagiraga amahembe maremare, habagaho umuntu witwa Umutahira, ni we wavugaga amazina yayo mu birori byinshi cyane, bitandukanye, harimo n'imihango y'ubukwe.

Ni umudamu ufite ingoma. Ingoma bayivuzaga ahantu habaye ibirori cyangwa ahantu bari kubyina imbyino za kinyarwanda, cyangwa mu rusengero aho batagira ibyuma byo gucuranga ni yo bavuza.

Abadamu bicaye ku kirago, abandi bicaye ku ntebe bari kuboha ibintu byinshi cyane bitandukanye, ndi kubona bari kuboha ibyibo, bakoresheje urushinge, n'imideyi, n'inshinge.

Aha hari ibikoresho bya kinyarwanda birimo ibisabo, inkoko, ibirazo, byose ni ibikoresho bya kinyarwanda. Ibi ngibi rero, ubu bifite agaciro gakomeye. Barabigura mu buryo bw'imitako cyangwa bigakoreshwa...

Uburyohe bw'umuziki wa kinyarwanda, umudamu ufite inanga n'abasore bari kuvuza ingoma, babita abakaraza, bakoresha imirisho, hariho n'abantu bari kubyina bagendeye ku njyana y'iyo nanga, n'abandi bari kuririmba.

ibirago tubiryamaho nijoro tukanabyiyorosa. ikindi ibi birago ni ibyo twanikagaho ibishyimbo n'ibigori cyangwa tukabyanikaho amasaka y'amamera tuba twariinitse kugira ngo tuzakore umusururu cyangwa ikigage.

Umukobwo afite ikirago bakiboha mu byatsi byitwa ubusuna n'imideyi bakicaraho, bacyanikaho imyaka cyqngwa bakanakiryamaho, cyangwa bakagikoresha mu bisango y'ubukwe. Umukazana agiha nyirabukwe nk'impano.

Kimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu muco nyarwanda, habamo utubindi twari ingirakamaro cyane, twafashaga abantu mu guteka ibiryo, badukoreshaga barajya kuvoma amazi, bahunikagamo imyaka yabo basaruye, nk'amasaka n'ibishyimbo.

Iyo umurwaye yarwaye adashoboye kugenda ngo ajye ku bitaro, hari uburyo bakoresha. Bafata ingobyi bakamushiramo, imbere hakajya abantu baribiri n'ahandi inyuma hakajya abandi babiri, bakamugeza ku bitaro akavurwa, agakira. Iyo nta ambilanse babona yo kumutwara, ni uko babigenza.

Aba ngaba ni ababyinnyi beza cyane, kubyina imbyino za kinyarwanda imbyino zo mu muco wa kinyarwanda, abantu bameze neza cyane baryoheye amaso kubitegereza, aba ngaba rero babyina mu birori cyangwa se mu bukwe bw'abantu baba babatumiye, baba barabigize umwuga, bakabaha ibiraka bakabyina bakabishyura.

Inka zidufitiye akamaro kanini, zitanga amata yo kunywa, baranayagurisha, bayajyana mu nganda bagakoramo ibindi bicuruzwa bitandukanye, nk'amata y'ifu, za yawurute zo kunywa. Baranazigurisha bakabonamo amafaranga, zikanifashishwa mu misango y'ubukwe bwa kinyarwanda bari butanga inkwano.

Ni igicuma kirimo n’umuseke，nicyo cyakoreshwaga mu muco nyarwanda，iki ngiki kandi gikoreshwa mu misango y’ubukwe，iki ngiki nicyo bakoresha bari kunywa urwagwa，cyangwa ikigage，cyangwa umusururu.

Uyu mugabo afite umuduri, umuduri ni wo bacuranga, igikoresho cy'umuziki cya kinyarwanda, uba ukozwe ku gacuma, n'igiti, n'imirya, akawucuranga, agaha umuziki abantu bagaceza.

Isuka barayihingishije cyane ihinduka ifuni, ni ingirakamaro cyane bayikoresha mu guhinga ibihingwa bitandukanye, no gucukura za wese cyangwa imisarane, kurema ibyobo bajugunyamo imyanda bita ingarani.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino za Kinyarwanda za gakondo, habamo n'abadamu, ariko abagabo bo baba bambaye imigara nk'iy'intare, bayishyize ku mute, bambaye n'amayugizi, imbyino ni nziza kuko zituma abantu bishima.

Umuvure bawukoresha bari gukama ibitoki byabaye imineke, kugira ngo bazabonemo urwagwa bakoresha amakoma yatukurije, n'ibyatsi by'inshinge iyo ubonetse bavangamo ifu y'amasaka bakabitara bikazavamo inzoga.

Izi ngizi ni intore, ni ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda bambaye imyenda myiza cyane ya kinyarwanda. Izi ntore zibyina iyo ari mu birori by'Igihugu cyangwa se ari mu bukwe batumiwemo. Ubundi bakabyina bakaryoshya ibirori.

Abasore bakenye ndikubona bahetse umuntu mu ngobyi wagira ngo ni umugeni. Ibi wagira ngo ni ubukwe bwa kinyarwanda, ni ho bajyanaga umugeni mu ngobyi. Iyo yabaga ashatse umusore atazi baramumuhekeraga bakamumujyanira.

Ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco nyarwanda habagamo tubindi, badukoreshaga bari kujya kuvoma amazi bari no guteka ibiryo, bari no kubika imyakaka basaruye nk'amasaka, n'ibishimbo n'ibigori.

Igisabo cyo babikamo amata y'ishyushyu agahinduka ikivuguto cyiza cyane, kuko kinakoreshwa mu mihango y'ubukwe bwo mu rwanda mugusaba no gukwa, n'abari kubyina imbyino za kinyarwanda baracyifashisha.

Mu bikoresho bya kinyarwanda habamo ibicuma byo bakoresha bari kunywa inzoga, cyangwa umusururu banywesha umuseke. Habamo n'ibirago. Ibicuma babikoresha mu misango y'ubukwe bwa kinyarwanda.

Uyu nguyu ni umugore wicaye arikuboha ikirago, ari gukoresha ibyatsi byitwa ubusuna n'ibideyi, nacyuzuza azajya arakiryamaho cyangwa acyanikeho imyaka, cyangwa akigurishe abone amafaranga.

Mu muco nyarwanda habamo n'imbyino gakondo, habamo ababyinnyi babigize umwuga, bakoze ibigo bitanga iyo serivisi yo kubyinira abantu mu birori bitandukanye mu Rwanda, no mu bukwe bakorera amafaranga menshi atandukanye kandi bituma ababireba bamererwa neza bakishima.

Ingimbi z'abana b'abasore, ibi bambaye hejuru babyita imigara y'intare, baba bafite n'amacumu n'ingabo, bambaye n'imikenyero, nibyo bibafasha kubyina neza izo mbyino zabo.

Intore ziri kubyinira impande y'inzu ya kinyarwanda, izi torere nizo uzabyina imbyino za gakondo za kinyarwanda, zibyina ahantu habaye ibirori, cyangwa mu bukwe, bakazishyura bakaziha amafaranga.

Ibi ngibi ni ibicuba bitoya， bari gusukamo amata bamaze gukama y’inka，kugira ngo bayanywe， cyangwa ni batayanywa， bayashyire mu gisabo， bayakoremo ikivuguto.

Aba ngaba ni ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, iriya nzu y'inyuma yabo ni inzu ya kera yabaga yubakishije ibyatsi n'ibiti bishinze, bagasakara, bakajya kuyibamo. Aba bantu bose bambaye imikenyero y'amabara y'umweru n'ay'umukara, bose nizo bari kubyina.

Aba ngaba ni ababyeyi bakenyereye umugeni, bari mu mihango y'ubukwe, bari gukwa, baba bakenyeye imikenyero, bafite n'uducuba dutoya.

Ibikoresho bya gakondo habamo nk'isekuro n'umusekuzo. Babikoresha bari gutunganya isombe yo guteka. Iyo batayijanye ku cyuma kibeta, barayisekura bakayiteka, bakayirya.

Ibikoresho bya kinyarwanda hariho ikirago giteretseho inkoko, n'imiseke iri mu gicuma, n'uwundi uri hasi. Hariho n'umubirikira n'urukiza banyweramo umusururu cyangwa ikigage.

Bavuza ingoma mu birori bya kinyarwanda, cyangwa mu babyinnyi ba kinyarwanda, baba bazi gukaraga ingoma, ku buryo bijyana injyana imeze neza ,ababyinnyi na bo bakagendera kuri iyo njyana bakabyina, bakoresha imirishyo.

M' ububoshi habagamo, ababoha imitako babigize umwuga, barazigurisha bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, habagamo n' abazicuruza bakabonamo inyungu batanga n' umusoro ku gihugu cacu kigatera imbere.

Ibikoresho bya kinyarwanda habamo inkono bakoreshaga bari guteka ibiryo bakanazikoresha bajya kuvoma amazi, bakanabikamo ibyo babinze basaruriye, nk'ibigori n'ibishyimbo n'amasaka.

Mu muco wa Kinyarwanda urubyiruko rw'abasore babasha kwiga mu itorero, aho bigira imikino mvarugamba harimo no kumasha cyangwa kurasa bakoresheje umuheto n'umwambi.

Mu buboshyi habamo ababoha ibirago. Ni byiza kuko babikoresha bari kwanika imyaka yabo basaruye. Ibishyimbo n'amasaka. banabyicaraho cyangwa bakanabigurisha, bakabonamo amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibi ngibi ni bikoresho bakoreshaga kera harimo: amasuka bita imfwati, n'amanyajoro ,harimo n' amashoka ya kera ,harimo n'imiheto.

Ubworozi bw'inka ni bwiza zitanga ifumbire yo guhingisha, zitanga amata yo kunywa, bakayajyana no munganda bakoramo ibindi bicuruzwa bitandukanye, uzoroye aranazigurisha akabona amafaranga agakora n'iyindi mishinga.

Inka zisobanuye byinshi cyane mu muco wa kinyarwanda, ni zo bitaga inyambo zagiraga amahembe maremare, bazikoreshaga mu misango y'ubukwe bwa kinyarwanda, cyangwa bakazikoresha mu birori byo kuvuga amazina y'inka.

Iyi nzu y'amatafari ahiye, imanitseho ibipapuro byinshi ku rugi n'imbere yayo, wagirango ni ibiro by'umurenge cyangwa iby'akagari, imbere yaho ndi kubona hariho ibitaka bihinze, bimeze neza.

Tujya kuburana iyo ari abantu badukoreye ibyaha, baturenganyije, turya kubarega, tukaburana nabo, haba hariho abacamanza n'abavoka kugira ngo haboneke ubutabera nk'abanyarwanda.

Hano ni mu nzu, iki ni icyumba cy'uruganiriro harimo intebe zifite n'udusego two kwicaraho no kwegamiraho. Harimo n'akameza, byose bikozwe mu biti. Ni aho kuganirira, ni icyumba kiza cyane, buri nzu y'umuntu yakabaye ifite icyo cyumba.

Aha ni mu kiliziya cy'abanyagatulika. Imbere hariho abahereza na padir. Aba bandi bahagaze ni abakirisitu bandi bagiye gusenga ku cyumweru.

Usengero abantu bose bicaye, ni abantu baje gusenga, baje no gushima Imana. Aha rero tuhajya dushaka kubatizwa, cyangwa gukomezwa, cyangwa tuje no kureba abahanuzi bahanura.

Aha ngaha ni mu kiliziya cyangwa muri shapeli aho Abanyayagaturika bajya gusenga harimo ishusho ya Bikiramariya n'ishusho ya Yezu. Aha ngaha ni ho Abanyagaturika bajya gusenga no gusaba penetensiya.

Iki ni ikiriziya cy'abanyagatulika cy' ahantu bita i Kabgayi. Niho bajya gusenga cyangwa gusaba penetensiya, abashaka kubatizwa no guhabwa niho bajya.

Uyu ni umusore uri ku igare rya siporo. Buriya ari gukora ka siporo. Buriya siporo ni nziza cyane ku buzima bwacu. Ituma amaraso atembera neza, ituma amagufa yacu akomera, umubiri wacu ubira ibyuya, ubundi tukoga tukamera neza.

Ibikorwaremezo mu Rwanda, bifite akamaro kanini harimo n'imihanda, iyo bari kuzikora abantu babonamo, akazi k'ubufundi naka gukoresha imashini, bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, bugatuma ubwikorezi mu rwanda bugenda neza.

Ayangaya ni amashuri, ni ho abanyeshuri bajya kwigira haba hari n'abarimu bo kubigisha, ni meza cyane, atumaga bagira ubumenyi buhambaye bakazabona akazi, bakanaminuza.

Aha ngaha ndi kuhabona ni inzu nziza cyane y'umuturirwa. Izi ni zanzu nziza cyane z'abakire, imbere yazo haba hariho ubusitani bwiza. Ifite n'igipangu cyiza cyane cy' ibyuma, izi ngizi zubakwa n'abantu b'abakire.

Aha ngaha ni ku mashuri, ndi kuhabona abarimu n'abanyeshuri, ni ho abana bajya kwiga bakahakura ubumenyi n'uburere bakeneye, kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Habaho amadini menshi atandukanye, buri ryose rigira ku rusengero rwaryo, aho bajya gusengera, bakabatizwa, bajya gusezerana bakajyayo bakabasezeranya, bagatanga n'amaturo ngo bakoresha bari guhemba abapasiteri n'ababwirizabutumwa.

Uyu ni umusigiti aho abayisilamu bajya gusengera cyangwa no gusarira. Ni mwiza cyane uba ukenewe abantu basengera muri iryo dini ni mo bajya, bagasenga cyangwa bakigiramo n'Icyarabu.

Ibikorwaremezo mu Rwanda bimaze kugera ku rwego rushimishije. Bimaze kugeramo amazu ageretse bita za etaje. Harimo n'imihanda yoroshya ubwikorezi bw' abantu n'ibintu, bituma u Rwanda rugaragara neza rukanazamura iterambere ry'igihugu.

Uruganda rw'amabuye ku micanga, ziriya nyubako ziri hirya zizitiye, ndi kubona ari amashuri y'abanyeshuri ay'abarimu, bakoresha ku bana bacokaje kwiga, ukamenya ibintu bitandukanye.

Inyubako imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, ni imwe muri za nyubako ziba zigerekeranye bita etaje, ifite amarangi, iriho n'ibirahuri byiza cyane, hariho n'imodoka ziparitse inyuma yaho ni iz'abakire gusa.

Tujyayo tugiye gusenga no kubatizwa no gusezerana imbere y'Imana. Iyo umukobwa n'umuhungu bagiye ku gukora ubukwe bakabana nk'umugore n'umugabo habayo pasitoro arabasezeranya bakajya kubana.

Aba ni abaturage bagiye mu nama ,iri kubera ikigo cy'amashuri .Uyu mugabo uhagaze ari gutanga ibitekerezo bye ari kubiha umuyobozi wabo, kugira ngo ababwire icyo gukora.

Mu gihugu cy'u Rwanda ubuyobozi bwegerejwe abaturage, aho abayobozi bamanuka bagasanga abaturage bakabaganiriza. Bafatanyaga mu gukemura ibibazo bibugarije bitandukanye, nk'ikibazo cy'imirire mibi abarwara bwaki, ikijyanye n'umutekano wabo.

Ahangaha ni muri gare, niho dutega imodoka iyo tugiye gusura abantu, cyangwa tugiye mu bukwe, cyangwahari ahandi hantu tugiye, baba bari no gucuruza ibicuruzwa bitandukanye wanajyayo ugiye kugura ibintu ushaka.

Imodoka nini cyane ya rutura， bayita kontineri，niyo ijya kuzana imizigo kuva muri Tanzaniya，cyangwa muri Kenya， no mu Burundi，bazana mu Rwanda. Iragenda bagaterekaho ikintu kiri inyuma， bakizana mu Rwanda，igasubirayo kujya kuzana ikindi.

Bayita indege ya Rwandair itwara abantu n'imitwaro, ikabanyuza mu kirere bakajya iyo bashaka kujya, ariko abantu benshi ntibakunda kuyigendamo kubera ko ihenda isaba amafaranga menshi.

Reba imodoka we aha niho tujya gutegera imodoka ndikubona ari muri gare, niho tujya gushaka imodoka iyo tugiye gusura abantu niyo tugiye gutembera niho tujya gutegera imodoka.

Imodoka nini cyane itwara imizigo, iyo ufite ibintu ushaka kujyana urayihamagara ikabijyana ukayiha amafaranga, ziba zifite n'abashoferi haba ariho n'abantu barayipakurura.

Ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara imizigo harimo na moto bita rifani. Uyitwara abona amafaranga yo kwiteza imbere no gukoresha ibikorwa bye bya buri munsi, nko kwita ku bana be akabishyurira amafaranga y'ishuri akabaguriraga n'imyenda yo kwambara.

Imodoka bita Dayihatsu. Ipakira imizigo, twakuye ibirayi barayihamagara ikajya iza. Ikabipakira ikabijyana bakaduha amafaranga natwe tugakoresha.

Bya bimodoka binini cyane byitwa Ritiko, biba muri gare, ujyayo ugakatisha, bakaguha itike, ukabaha amafaranga. Ukayitegereza yaza ukajyamo, ubundi mukajyana aho mwashatse kujya.

Uyu ni umuhanda w'ibitaka batashyizemo kaburimbo, ufasha abantu mu gukora ingendo zitandukanye, uyu mugabo ari kuwugendamo n'igare apakiye n'agafuka karimo ibintu.

Urumodoka runini rwitwa Ritiko rujyana abagenzi mu buryo bwa rusange, hari izijya i Kigali, hari n'izijya ku Gisenyi, rutwara abantu benshi cyane, bagatanga amafaranga na zo zikabajyana.

Uyu muhanda uberamo ibikorwa bitandukanye nk'ubwikorezi, ingendo z'abagenzi . Aha ndi kubona umudamu utwaye igare, uhetse n'imizigo itandukanye, ari kubifashwamo n'uno muhandada, akagezi imizigo aho ashaka kuyigeza.

Uyu ni umuhanda harimo kaburimbo, utameze neza, uri ahantu hari urutoki, hariho imodoka bita tagisi itwara abagenzi, hariho n'umugabo utwaye imizigo ku igare.

Muri gare aho tujya gutegera imodoka, ibinyabiziga bidutwarira imizigo cyangwa se binadutwara muri gare, kandi harimo abacuruzi benshi batandukanye bacuruza imbuto n'imboga, banahaha imbuto zikenewe.

Iyi ngiyi ni imodoka itwara abantu muri rusange, uragenda ugakatisha, ukabaha amafaranga na bo bakakujyana aho barakugeza, ubu ngubu iri kugenda iri muhanda wa kaburimbo, urimo n'izindi modoka.

Iyi ni modoka yatwara abagenzi rusange. Abantu bajyamo banakashyura amafaranga. Bakagenda ari benshi mu modoka. Ikagenda irahagaragara bitewe n'aho abantu bashaka kubivamo. Waba ugeze aho uraviramo akavuga bahagarika ukavamo. Ukajya aho ushaka.

Izi ni moto zitwara abagenzi， abazitwara babita abamotari，bajyana n'imizigo ahantu hatandukanye， mukavugana ukamwishyura amafaranga， aba ngaba rero ni ingenzi cyane， kubera ko badufasha kugera ahantu dushaka kugera，no kuhageza imizigo.

Ahangaha ni mu muhanda wa kaburimbo, iyi ngiyi ni imodoka itwarara abagenzi, irahagaze, abagenzi bari bayiteze bagiye kujyamo, bishyure, ubundi ibajyane aho bashaka.

Uyu nguyu ni umuhanda umeze neza, urimo na kaburimbo, abangaba ni abanyonzi twara amagare bagashyiraho abantu cyangwa n'imizigo, bakabaha amafaranga bakabijyana aho bababwiye.

Ahangaha ni mu modoka zitwara bagenzi mu buryo bwa rusange, urabona ko ari mu modoka mo n'imbere, abantu barimo bashaka kwicara, hano hariho izi ntebe, twa tuntu two hejuru bafataho kugirango imodoka idakata ikorosi bakagwa mu modoka, imodoka nziza cyane, abantu barimo bagiye kwicara ubundi babajyane.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, habamo imodoka na za moto bifite akamaro kanini cyane kubabitwara, babonana amafaranga yo kwiteza imbere, batanga n'imisoro ku gihugu cyacu kigatera imbere, mu bikorwa bitandukanye.

Mu binyabiziga habamo na moto, bifite akamaro kanini cyane, ko itwara abagenzi ikabageza aho bashaka kujya, zitwara n'imizigo, zikabona amafaranga, abazitwara babita abamotari, bibateza imbere cyane, bakagura amasambu yo guhinga, bakubaka n'amazu yo kubamo.

Ikintu icyuma bakoresha turi kubikuza amafaranga, uba ufite ikarita waguze ,ubundi ukagenda ugashyiramo ukandika amafaranga ushaka, ubundi ukemeza ubundi amafaranga akaza ubundi ukayafata.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange igenda mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, iyi modoka ni imodoka nziza cyane ushaka gukora ingendo uragenda ukayitega ubundi ukajyamo, ikakujyana ikakugeza aho ushaka kujya .

Uburyo bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, mu Rwanda bumaze gutera imbere habaho imodoka nini cyane ujya muri gare ukayitega ikakujyana, aho ushaka itanga akazi, abashoferi batwara izo modoka bigatuma n' uburyo bw' ingendo bworoha.

Igikoresho twifashisha mu mirimo yacu ya buri munsi, harimo n'igare, turikoresha turikujyana ifumbire mu mirima yacu tugiye guhinga, tukaryifashisha turi gusarura. Hariho n'ababigize umwuga, bakora akazi ko gutwara imizigo bakayigeza ahantu hatandukanye, bakabonamo amafaranga yo kwikenuza.

Iki ngiki ni igikorwa remezo cyo mu Rwanda bategeramo amamodoka gituma abantu babona amamodoka, aho bashaka kujya bashaka gukora ingendo zitandukanye, uragenda ugakatisha imodoka ushaka n'aho ushaka kujya ubundi ukishyura amafaranga, ubundi ukagenda ikakujyana aho hantu.

Umuhanda wa kaburimbo. Ibimodoka binini. Ibimodoka bitwara imizigo itandukanye. Iyo waguze ibintu byinshi cyangwa wabiranguye ku ruganda runaka, urarutereza rukabikuzanira, ushaka ko...

Urumodoka runini ruva mu Rwanda rukajya mu Buganda, ruri kugendera mu muhanda ruba rutwaye abagenzi mu buryo bwa rusange, baba ari benshi cyane, uragenda ukajya muri gare ugakatisha, bakaguha itike ukabaha amafaranga, ugategereza rukaza kukujyana.

Ikinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, habamo na za moto. Zifite akamaro ku bamotari bazitwara. Babona amafaranga yo gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Batanga n'amafaranga mu bigo by'ubwishingizi kugira ngo hagize umuntu ukora impanuka, icyo kigo cyagira icyo gifasha uwo muntu.

Hano ni mumuanda wa kaburimbo, aba bafite amagare babita abanyonzi nibo bajyana umuntu ku magare bakabishyura, bakanatwara imizigo ku magare yabo bakabaha amafaranga.

Ubwikorezi ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga menshi, muri iki gihugu habamo abashoferi benshi bahembwa, bakabona amafaranga yo gukoresha ibikorwa byabo by'iterambere, binatuma ubucuruzi mu gihugu bugenda neza.

Batwaye za moto babita abamotari batwara abantu bakabajyana ahantu hatandukanye bo bakishyura amafaranga, aba bantu bafite akamaro kenshi cyane badufasha gukora ingendo nyinshi zitandukanye.

Ndi kubona ari muri sitade, aho abantu bajya kurebera umupira w'amakipe ari gukina. Harimo n'abafana bari gufana amakipe yabo.

Amagare bakoresha bari mu makurusi bita Turu di Rwanda, arirukanka abantu bakajya mu muhanda bakajya kuyareba, uwatsinze aba yabaye uwa mbere baramuhemba, n'uwa kabiri bakamuhemba.

Uyu nguyu ni umuzungu, atwaye igare, yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, n'ikigofero n'amataratara. Umenya ari mu isiganwa ry'amagare bita amakurusu.

Ahangaha ni mu kibuga aho amakipe akinira umupira w'amaguru, ari bo ikipe ya reyo siporo yambara ubururu ,ni yo iri gukina n'iyindi kipe. Haba hariho n'abantu baje kuwureba n'umusifuzi uri kuwusifura.

Aya ni amakurusi, abantu baba bari ku magare bambaye utwenda tubafashe cyane, ingofero, ubundi bagasiganwa, ubaye uwa mbere baramuhemba. Aha ngaha rero bari kugendera mu Rwanda, hari isiganwa bita Turu du Rwanda.

Mu myidagaduro habamo imikino itandukanye. Hariho umukino witwa tenisi mwiza cyane, abakinnyi bawo babona amafaranga yo kwiteza imbere, unatuma abantu basabana, nk'abafana bagiye kuwureba baba bishimye.

Ibikombe bahemba abantu bitwaye neza mu mikino itandukanye, uwitwa futuboro wo bakinisha amaguru, n'uwitwa vole wo bakinisha amaboko, n'uwa basiketi nawo bawukinisha amaboko, iyo amakipe yakinnye iyatsinze bayihemba kimwe muri ibingibi.

Amagare y'amakurusi ari gusiganwa mu muhanda wa kaburimbo, bituma abantu bari kuyareba bakanezerwa, bakidagadura, n'abari kuyatwara bituma babona amafaranga kuko barabahemba.

Mu mikino ibaho itandukanye babaho n'imipira bakoresha muri buri mukino, hari uwo bakoresha bari gukina umukino witwa vole. Inganda zizikora zibona amafaranga yo guhemba abakozi bazo, bakanatanga imisoro ku gihugu cyacu.

Abangaba n'abakinyi bari gukina umukino bita handi boro, bawukinisha amaboko haba harimo amakipe abiri, bari gukina umwe akawaka uwundi akawuhereza mugenzi bari mu ikipe imwe bagacengana, haba harimo n'umuzamu bakamutera wamucika kitaba ari igitego.

Abakinnyi bari kwitoza gukina umukino witwa basiketi, uriya uri imbere yabo ni umutoza wabo arikubereka uko bayikina. Buri wese afite umupira we, bari kugenda bari gucengacengana ubundi bagatsinda igitego.

Imyidagaduro habamo imikino itandukanye, habamo uwo bita tenisi bakina ari abantu babiri umwe agatsinda undi, uwatsinze agahabwa ibihembo bita igikombe. Abayikina babonamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Nkunda umukino bita vore, haba hariho fire hariho n'amakipe abiri n'umusifuzi, imwe iri gushaka gutsinda indi, ni umukino mwiza cyane utuma abantu bishima baje kuwureba.

Mu myidagaduro habamo na siporo n'imikino itandukanye y'amoko menshi, habamo umukino bakinisha amaboko witwa vole abakinnyi bawo babona amafaranga yo kwiteza imbere no kwikenuza, habaho n'abafana bibafasha gusabana no kwidagadura.

Aha ni muri sitade, ni ikipe yagiye gukina wagira ngo ni ikipe y'Igihugu cy'u Rwanda, yagiye gukina hariyo ,n'ibendera ry'Igihugu bari gufana, hariho n'abasifuzi bari gusifura umukino.

Aha ngaha ni muri sitade, bari mukibuga bari gukina umukino witwa vore, abangaba bari gukina bariya basimbutse bari gutsinda ibitego, uriya wambaye umweru n'umukara ni umusifuzi, uri kubasifurira uwo mukino.

Umusore urigukina umukino bita basikete, yambaye amajezi asa n'ubururu arimo n'amabara y'umutuku, na numero ya gatandatu, basikete barayikina ari amakipe imwe iri gutsinda indi.

Umukobwa ufite umupira bakinisha umukino witwa basiketi. Bawukina ari amakipe abiri buri yose igizwe n'abakinnyi, bagakina barigutsindana.

Imyidagaduro habamo imikino itandukanye. Habamo uwitatwa basikete bakinisha amaboko, aba ari amakipe abiri. Imwe iri gutsinda iyindi, itsinze bayihemba igikombe n'abakinnyi bazikinira babahemba amafaranga yo kwiteza imbere.

Mu mikino habamo uwo bakinisha amaguru witwa futuboru, hakabaho n'izo bakinisha amaboko za vore na za basiketi boru, n'uwitwa handiboru. bituma abari kuwukina bidagadura kandi bakanakora siporo, babona n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Ndi kubona amagare n'abasore bayafite bagiye kuyatwara ,aya magare umenya ari yo bajyana mu makurusi ,aba basore umenya bagiye mu marushanwa, ,mu isiganwa ry'amagare, barasiganwa ,bakirukanka muri kaburimbo ubaye uwa mbere baramuhemba.

Aba ni abakaraza bavuza ingoma bakoresheje imirishyo ahantu habaye ibirori bajyayo bakazivugiriza abari kubyina imbyino za kinyarwanda za gakondo cyangwa ahabaye ubukwe bakababyinira bakajyayo.

Mu myidagaduro yo mu Rwanda habamo siporo n'imikino itandukanye itanga amafaranga ku bakinnyi n'abazitoza. Abafana bayo makipe barishima bakanasabana.

Uyu ni umuhanda urimo abantu benshi batwaye amagare bambaye n'imyenda ya siporo, n'ingofero babita abakurusi, bariya bantu bari ku mukingo hejuru ni abaje kubareba, iyi modoka iri inyuma ni ibaherekeje.

Mu bintu tugirwa inama gukora harimo siporo; ituma amagufa yacu akomera, igatuma tutarwara indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije, bituma amaraso atembera neza mu mibiri yacu, bigatuma tutarwara n'indwara z'imitsi.

Uyu ni umukinnyi yambaye imyenda isa n'ubururu ,ari gukina umukino bita basikete ,bawukina ari amakipe abiri, buri yose igizwe n'abakinnyi batanu batanu harimo ,n'umusifuzi wundi batsinda babibara mu manota.

Uyu nguyu ni umuhanda wa kaburimbo， unyuramo ibinyabiziga bitandukanye， imodoka， amagare， na za moto，aya ngaya， ni amagare ari kuhanyura， bariya ni abagenzi batwara abantu.

Aya ngaya ni ya mazu meza aba ari ay'abakire ari ahantu wagira ngo ni umugi, ari impande y'umuhanda. Yubakishije amabati meza y'umutuku yubatse bwa kadasita afite n'amashanyarazi n'ibiti akaba arimo n'ubusitani.

Uyu nguyu ni umuhanda wa kaburimbo munini cyane, ufasha abantu gukora ingendo zitandukanye, binatuma ibinyabiziga nk'imodoka na za moto n'amagare bigenda neza.

Umuhanda w'ibitaka utarimo kaburimbo ,wo mu cyaro, ku mpande zawo hariho ibyatsi biteye neza byiza, by'agacaca umuntu ashobora kubyicaramo.

Mu bikorwaremezo harimo n'imihanda, itumaga ubwikorezi n'ibintu bugenda neza, bigatuma n'ubucuruzi bugenda neza. Ndetse bituma n'igihugu gisa neza gifite isuku.